Abana b'abanyeshuri, bigaragara ko bahagaze mu ishuri bambaye n'impuzankano y'ikigo, bakaba bahagaze iruhande rw'ikibaho, buri wese afite akantu mu ntoki kagaragaza inyuguti. Inyuma yabo ku kibaho handitseho imibare igaragaza ibyo bize.

Udukoresho tw'imibare twifashishwa mu mashuri y'inshuke, igihe abarimu barimo kwigisha abana kumenya kubara. Ni byiza ko abana bigishwa imibare kubera ko bituma ubwonko bwabo bwaguka bityo bagatangira gutekereza mu buryo bwagutse.

Umusore wambaye itaburiya y'umweru yanditseho amagambo agaragaza ko ari umwarimu, ahagaze imbere y'ikigega cy'umukara kijyamo litiro igihumbi, akaba ari ikigega gifata amazi aturuka ku mashuri mu rwego kugira ngo amazi yose bayafatire hamwe hanyuma igihe bayakeneye bajye bayakoresha kandi bigabanye isuri.

Icyumba cy'uruganiriro harimo intebe nziza cyane abantu bicaraho, hakaba hari n'ameza ndetse n'intebe y'icyubahiro umuyobozi yicaraho waje gutanga ikiganiro, ni byiza ko abantu bahura bakaganira.